Ikoraniro ry'abagabo n'abagore bafite ingingo basa n'abari kwigaho, umurongo w'imbere usa naho ariwo uyoboye abandi uriho abagabo babiri n'abagore babiri, abagabo babiri muri bo bafite urupara, mu gihe abagore bafite umusatsi utari karemano.

Abantu benshi, basa n'abari mu kagoroba k'ababyeyi bicaye inyuma y'inyubako, ifite urukuta rwubakishije amatafari ahiye. Impunyu zibumbye mu ibumba. Abandi basa n'ababayoboye bicaye ku ntebe zimifariso, n'ubwo ari intebe ngufi.

Imbaga nyamwinshi ivanzemo abagore, abagabo, biragaragara ko isa n'iyitabiriye inama bitewe n'uko bafite aho bahanze amaso. Ikindi kandi buri wese arakurikiye cyane kugira ngo niramuka inabaye aze kugira icyo atahana.

Ku meza ziteye verine mu cyumba kinini gihari abagabo n'abagore bambaye neza, abagabo buri umwe yambaye ikoti ndetse na karuvati hari abambaye amarinete bafite mudasobwa imbere yabo bagenda bakoramo bagira ibyo buzuza.

Umugore utari muremure ariko utari na mugufi ayoboye inama, iruhande rwe hari telefone, akaboko kamwe karimo karakoresha ibimenyetso abwira abo ayoboye akandi gafite ikayi isa n'ihishe mu umugongo, abamwicaye imbere buri wese imbere kukameza hari agatambaro k'umutuku.

Ikoraniro ry'abari mu nama, bicaye ku meza afite ibara ry'ikigina, buri umwe afite agatabo ari kwandikamo. Imbere yabo, hari icupa ry'amazi, umugore ubarimo arasa n'uwumiwe cyane, kugera ku rwego ushobora kuba wabyibazaho.

Ingeri z'abantu batandukanye bari mu nama abagabo bakuze, bambaye imipira yubururu buri mugabo bafite icupa ry'amazi n'ikaramu ndetse afite'ka yo kwandikamo abagore bari inyuma yahoo umwe yifashe ku itama mu undi akenyera igitenge mu mutwe.

Abayobozi bitabiriye inama, ku murongo w'imbere abahicaye buri umwe afite ikaramu n'ikayi yandikamo, umugabo umwe yambaye amarinete undi nta marinete yambaye, bahurije ku kuba bombi bafite uruhare.

Buri uko umwaka w'amashuri urangiye abanyeshuri basoza icyiciro cy'amashuri yisumbuye bakora urugerero, kera bakoraga ingando gusa kuri ubu bitewe n'uko ibihe byagiye bisimburana, kuva kovide yajyamo ntabwo bose bagihabwa urugerero nubwo bakora ibikorwa birimo imiganda nko kubakira abatishoboye, kugira ngo babashe gufatira hamwe amasomo abategurira kujya mu buzima bwo hanze.

Abantu baricaye bambaye imyenda itandukanye barasa n'abari mu nama imbere yabo hari imashini mudasobwa ishobora kwifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye ibi byose bigakorwarwa hagambiriwe gutanga serivisi nzima.

Ikoraniro ry'abantu benshi ryahuriye hamwe ryiga ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, hejuru yaho hari icyapa kiriho abaterankunga basanzwe bafatanya na bo nko muri abo twavuga USAID, iyi ngiyi nayo iri kumwe na bo.

Abagore n'abagabo bateraniye hamwe bafite ibyo bari kwigaho, bari mu cyumba kirimo amarido y'umweru ari kumadirishya, uretse ibyo kandi, ayo madirishya ari mu nkuta ebyiri zisa n'ibara ry'ivu.

Abantu icyenda, barimo abagabo umunani n'umugore umwe, bicaye ku meza amwe. Buri muntu afite icupa ry'amazi, afite ikayi. Batatu muri bo, bafite imashini za mudasobwa.

Abagore n'abagabo bateraniye mu cyumba, ameza bicayeho buri umwe afite agacupa kariho amazi, undi yifashe ku itama, umugabo umwe muri bo ufite uruhara yambaye amarinete uwo hirya ye yambaye ishati y'ubururu.

Abantu bicaye nk'abitabiriye inama imbere yabo hari ekara, buri umwe afite agacupa k'amazi, imbere ye hari agakayi ndetse n'ikaramu, uretse abo kandi hirya gato hari n'abafite amaterefoni bari gukoresha mu mwanya w'amakayi.

Abagabo batatu n'abagore babiri bari mu nama, umugabo wo ku ruhande afite telefone, umukurikira afite agakombe, umukurikiye afite icupa ry'amazi, abo bagore bombi imbere yabo hari mudasobwa.

Ihohoterwa rishingiye ku gitsina usanga akenshi ryibasira abana b'abakobwa, ndetse n'abagore. Gusa byaje no kugaragara ko hari abagabo bahohoterwa gusa ahubwo bagahitamo kubigira ibanga bitewe n'uko batekereza ko, bashyize akababaro kabo hanze basekwa.

Buri umwe witabiriye iki gikorwa biragaragara ko ashize amanga akurikiye neza ndetse akaba yiteguye no kuba yabaza ikibazo yaba abafite mudasobwa, yaba abatazifite, buri umwe wese yicaye mu buryo bwiza kandi yumva yisanzuye.

Hariyo abantu bateze amatwi basa n'abarindiriye ubuyobozi ko agira icyo ababwira, biragaragara ko bitabiriye iy'inama ku bwinshi, ibi bishobora kuba byakozwe mu rwego rwo kugira ngo bakomeze gahunda yo kubungabunga no gushyira mu bikorwa ibyo baba baganiriye ku kagoroba k'ababyeyi kaba katambutse.

Iyo utembera mu mihanda y'Umujyi wa Huye by'umwihariko mu Murenge wa Tumba ndetse n'uwa Ngoma, ntushobora kuyirangiza utageze ku ishyamba rya Albertum, iri shyamba ukirigeraho uhabona ibyapa binyuranye, bigaragaza ko ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga amashyamba, kiri mu byo cyashyize imbere kugira ngo ribashe kubungabungwa ndetse n'inyamaswa zirimo nk'inkende.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, giteguyemo intebe ndetse n'ameza akorerwaho inama, cyahuriwemo n'abantu benshi baturuka mu bihugu bitandukanye biganjemo abanyafurika ndetse n'abazungu, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije muri iyi nama barimo.

Abenshi muri bo ntibari bazi gukoresha ikoranabuhanga, by'umwihariko iririmo mudasobwa, gusa kuri ubu, bitewe n'uko buri gace gatandukanye k'u Rwanda, uhasanga ushobora kuba yagufasha, biroroshye ko abantu bashobora kuba bagana izo serivise ndetse bakanahugurwa mu buryo bwimbitse.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Hari abibazaga, uko amapoto y'ibyuma ndetse n'amapoto akoze mu gisa na sima aba aremereye, ashingwa kugirango ngo ashyirweho insinga, gusa byaje kugaragara ko ashingwa hifashishijwe imashini zabugenewe, ikindi kandi, iyo bikozwe, ntabwo izo mashini, zishobora kwangiza ibidukikije nk'amashyamba, biba biri hafi yabyo.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye azwi ku izina ry'impunyu, akorwa mu ibumba ndetse bakanatwika, amapoto abiri ahari ariho amatara yo ku muhanda, munsi y'aho gato hariho indabyo z'umuhondo.

Ni inyubako nziza ifite amatara maremare, ifite amakositara, ifite amadirishya, kandi ikagira na bariko, ku buryo umuntu ashobora kuba yayihagararaho ntagire impungenge zo kuba yakwitura hasi, yewe yaba na bamwe bakunda kugira ikibazo k'ikizungera, nta bwoba na bucye bashobora kuba bagira.

Abajura bibaga insinga mu minsi yashize, bigatuma umuriro w'amashanyarazi ubura mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, kandi bikamara igihe. Gusa bitewe n'uko buri wese yabaye ijisho rya mugenzi we, ugerageje kubikora undi ntamuhishira. Ni yo mpamvu ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi kitagikunda kubaho kenshi.

Ihuriro ry'aho amashanyarazi afatirwa, ahazwi nko kuri taransifo, hari amapoto abiri manini ateganye, anyuraho izo nsinga zose. Hirya yaho gato hari ishyamba ritohagiye, ririmo ubwoko butandukanye bw'ibiti.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru bigaragara ko ari uwa eyateri hahagaze abatekinisiye bane bigaragara yuko bari gusobanurira aba bantu uko uyu munara ukoreshwa aha bantu bari gusobanurira bambaye amajire y'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda, nta binyabiziga byinshi cyane birimo, gusa harimo ibinyamitende nka moto. Abamotari babiri basa n'abateganye, bari kugenda bakatira abagenzi bari guhura na bo, ngo bataza kubagonga bikaba byateza impanuka.

Inyubako isanzwe, yo guturamo, ifite amabati akozwe mu buryo tegura, iteye karabasasu y'umutuku, inyuma yaryo, hari ipoto iriho amashanyarazi.

Inzu isa n'igeretse ariko idahumye, bitewe n'uko uruhande rwose ruriho amatafari masa, ni impunyu zitwitse mu itanura, hejuru yaho gato hari insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi ziwuvana hamwe ziwujyana ahandi.

Umuhanda mwiza urimo imodoka, abanyamaguru ndetse n'ibinyamitende. Biragaragara kandi ko hari hapfuye ipoto ry'amashanyarazi ku buryo uduce tumwe na tumwe twashoboraga kubura umuriro, ariko bitewe n'uko ababyize ari benshi biragaragara ko uyu wuriye iri poto aje kuwusana.

Imodoka zirenze imwe, moto nyinshi biragaragara ko ari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, hari amazu maremare gusa indende muri zo ni inzu icyubakwa, igaragara ko ishobora kuzaba nziza kurusha izihari zose.

Ipoto rinini cyane kandi rirerire rizwi nk'ipiloni iruhande rwaryo hari irindi poto risanzwe ribaho amatara yo ku mihanda hirya y'aho gato hari umugore wambaye ipantaro izwi ku izina ry'amadeshile arimo aratera intambwe ndende .

Ibitaro bya Kacyiru hari icyapa kinini cyane kigaragaza serivise batanga, ubuyobozi bw'ibitaro bakwereka aho ibiro byabwo bukorera, inzu y'ababyeyi, aho bavurira indwara z'amenyo, guca mu cyuma, aho batangira imiti, ubuvuzi bw'impinja n'ibindi.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Ku mihanda migari aho umuntu yambukira haba hari uturongo tw'umweru dutambitse. Umugenzi iyo agiye kwambuka arabanza akareba neza ko nta kinyabiziga kiri hafi kiri kwambukiranya umuhanda bityo akambuka. Ikinyabiziga nacyo iyo kigeze kuri iyi mirongo kigabanya umuvuduko ndetse kikanahagarara rimwe na rimwe.

Inyubako ngufi zubatse mu buryo busa naho ari amashuri imbere hariho pasuparumu hakabaho imikindo itarakura ndetse hakabaho n'indabyo ziconze cyane, ibingibi biragaragara ko n'ubwo nta kaburimbo ihari amapave ashashe neza.

Mu myaka itambutse ni bwo Leta y'u Rwanda yashyizeho igikorwa cyo kuvana amabati ku nzu by'umwihariko iza Leta azwi nka sipesitusi bitewe nuko yashoboraga kuba yatera indwara zirimo iz'ubuhumekero ndetse na kanseri. Asimbuzwa amabati agezweho. Kuri ubu inyubako nyinshi za Leta zisa neza kubera ko ibyo byose bitagihari, kandi nta n'impungenge z'uko hashobora kuvamo izo ndwara.

Inyubako ifite inkingi zubakishije amatafari ya rukarakara, gusa hirya hariho n'iz'ibyuma, ifite igisenge gisakaje amabati ariko kinaciye bugufi, mu nzu harimo sima ariko itaru umutuku.

Umugore yambaye ikanzu, afite umusatsi, isura ye ntabwo ari inzobi cyane, gusa si n'igikara, mu ijosi harimo akabariro k'umweru kuri iyo kanzu yambaye, kajyanirana n'amabara y'umukara arimo.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa n'iy'abagororwa inyuma yabo hari abagore babiri bifashe ku itama, basa n'abaje kumva urubanza, abagabo baregwa bicaye ku ntebe buri umwe yambaye inkweto z'umukara mu masogisi y'umweru atagera mu mavi.

Mu Rwanda gereza ntizikihaba kuko zahinduriwe izina zitwa amarorero, ibi byatumye abitwaga imfungwa bitwa abagororwa, bitewe n'uko uko ururimi rwacu rugenda rukura ari nako habamo ikijyanye no kunoza imvugo yarwo.

Mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi hagiye hapfa abantu benshi, gusa aho imanza zitangiriye abakoze ibyaha bagiye baburanishirizwa ahantu hatandukanye, nko mu nkiko gacaca aho ibyaha byagiye bibera, ku buryo abatangabuhamya ari abantu babaga bazi neza abo bantu bakoze ibyaha.

Ababyeyi bari mu kagoroba kabo. Umugabo umwe wambaye ishati y'igitenge, ahagaze hagati yabo. Barareba abayobozi b'ako kagoroba, usa n'uri gutanga ikibazo, igitekerezo, cyangwa se icyifuzo.

Abantu si benshi kuko batarenze batandatu, umugore urimo yitambiye mu mutwe, abagabo barimo nabo bambaye amakanzu ndetse n'amakaruvati, biragaragara ko basa n'abarahira kuko ibi ni ibintu bikorwa iyo hari indahiro zirimo kuba.

Umugabo munini kandi wirabura, ahagaze iruhande rw'imodoka ifite ikinyoteri y'umutuku, purake yayo ikaba iri mu ibara ry'umuhondo, afite umwambaro umeze nk'uwabagororwa, gusa hirya ye ndetse n'imodoka bahagararanye hari ibiti ndetse n'ubwatsi.

Abagabo babiri umwe yambaye imyenda isa niy'abagororwa yambaye ikabutura n'ishati, hasi yambaye inkweto z'umukara, undi mugabo bari kumwe yambaye ikanzu igarukira munsi y'amavi, ipantaro amaguru agarukira aho ngaho niyo agaragara yonyine.

Umusaza ugaragara nk'uwiyubashye, yambaye ishati y'umweru, karuvati mu ijosi, arafunga neza. Mu maso, uruhu rwe rwatangiye kuzana iminkanyari. Yambaye ingofero y'urugara, irimo akarongo k'umukara, n'ak'umweru.

Ahantu henshi hakorerwa ibintu bitandukanye bahora bashishikarizwa gukoresha iki gikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro iyo inkongi ihafashe iki gikoresho kiratabara ni byiza ko umuntu wese yakigira aho akorera.

Urubyiruko ruteraniye hamwe, buri umwe yambaye agapira k'umuhondo, ku mufuka w'ako gapira hariho ikaramu ikindi buri wese yambaye agapfukamunwa, imashini bafite ziteretse ku meza, zisa n'ivu.

Polisi itwaye umugore usa n'ufite ibyaha ashinjwa. Uyu mugore yambaye agakomo k'umweru. Akenyeye igitambaro mu mutwe, abo bapolisi bombi na bo ni abagore. Buri umwe yambaye ingofero, iruhande rwabo hari undi mugabo ufite amarinete mu mutwe, ufite na bibiliya mu.

Kurukuta rw'inyubako hariho igicupa kinini cyane, gifite akantu kameze nk'akamakasi hejuru, n'umugozi w'umukara, hanyuma munda y'iryo cupa, harimo akandi kantu kameze nk'umukara, gahuza uwo mugozi munini nicyo gicupa, iyo ukitegereje neza ubona ko ari kizimyamwoto.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Kizimyamwoto iri ku rukuta rusa na kaki, yo ikaba iri mu ibara ry'umutuku, hejuru ifiteho igisa n'akamakasi, hasi hariho igisa n'umugozi w'umukara. Ushobora kuba utwara esanse cyangwa se mazitu.

Imodoka ifite amabara y'umweru, gusa harimo n'utubara tw'ubururu. Ifite amapine atuma isa n'iyigira hejuru cyane, inyuma yaho hariho abantu, ibiti ndetse n'inyubako ndende.

Umupolisi uhagaze ku ruhande aracunga umutekano w'abantu n'ibinyabiziga, umugore arimo arabisikana n'abagabo benshi kuko arimo aragana mu kerekezo cye wenyine, mu muhanda mwiza utari uwa kaburimbo ariko urimo0 amapave.

Umupolisi urinze umutekano wo mu muhanda, hejuru y'inyubako ahagaze iruhande, hari icyapa cyanditseho ngo " Ni iyawe, mu bawe". Hirya ye gato hari abagenzi n'ibinyabiziga. Ndetse ntiwakwirengagiza ko hari n'ibinyamitende. Amagare na moto.

Abapolisi babiri bo mu muhanda, bahagaze mu muhanda w'igitaka aho bari kureba uko ibinyabiziga bitambuka, iruhande rwabo hari umukobwa wifashe mu mufuka w'ipantaro y'umukara yambaye inkweto zidafunze yambaye n'umupira w'umutuku.

Igicupa kinini cyane gisa na kizimyamoto, cyanditsemo amagambo y'ubururu, ariko ibara ryiganje cyane ni umutuku. Ku gapfundikizo harimo igisa n'umukasi gifite ibara ry'umukara, gusa harimo n'andi mabara y'umuhondo.

Inyubako ifite amakaro y'umweru hasi, irimo kizimyamwoto ebyiri zigaragara ko mu gihe hari inkongi y'umuriro yaba ibayeho, icyaba kiyiteye cyose ziteguye kuzimya bitanagombeye ko haboneka abashinzwe umutekano.

Abayoboke b'ishyaka rya efuperi biganjemo abagore buri wese afite akadarapo ke ariko kukazunguza hejuru bambaye imikenyero nayikoze mu mabare y'ishyaka rya efuperi bari kwamamaza umukuru w'igihugu kugira ngo bazongere bayoborwe neza.

Abashyaka ba efuperi bisize umurange mu maso, ubayoboye imbere umubiri wose urasize, mu gatuza ke handitsemo inyuguti ya P, abari inyuma ye bafite inyuguti ya F ndetse n'inyuguti R.

Nyakubahwa Perezida wa wa Repubulika Paul Kagame, ubwo yiyamamazaga yagendaga asura abaturage mu bice bitandukanye, aha yarimo yiyamamaza afite mikoro, yambaye agapira kariho amabara nk'umurwanashyaka wa FPR akaba ari n'umunyamuryango.

Mbere y'uko ikoranabuhanga ritera imbere mu Rwanda, wasangaga kugira ngo umuntu abashe kubwira imbaga nyamwinshi bigoye, gusa kuri ubu usanga abayobozi bamwe na bamwe bifashisha imikorofone bakabasha kugira ibyo batambutsa babwira imbaga nyamwinshi.

Uwahoze ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda Juvenal Habyarimana, afite umusatsi, yambaye ikote na karuvati, arimo arareba asa n'ufite ibyo atumbereye, witegereje neza urabona ko afite inyinya.

Perezida Habyarimana, inyuma ye hari amadarapo menshi cyane, arimo arareba afite ikintu asa n'utubiriye, ikindi kandi yambaye ikote ry'umukara, karuvati, yambaye n'ishati y'umweru, anasokoje igisunzu.

Abagabo bane bafashe ku ibendera ry'igihugu bari kurahira, inyuma yabo hari umugore nawe uri kurahira, aba bagabo buri umwe yambaye ikoti na karuvati nta n'utambaye inkweto zizwi nka congo.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Abagore bane bahagaze imbere y'ibendera; umugore umwe yambaye ikositimu. Abandi babiri bari hagati bambaye bisanzwe. Amakanzu yo mu bitenge. Uri ku ruhande rwabo hirya gato, yambaye ikanzu ariko ikimutandukanye n'abandi ni uko yitambiye mu mutwe.

Ubwo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yiyamamarizaga kuyobora u Rwanda, abarwanashyaka ba FPR babaga bafite utubendera twanditseho FPR ndetse ariko tukanaherekezwa n'ifoto ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika barimo bamamaza.

Perezida wa repubulika ubwo yiyamamarizaga kuyobora u Rwanda mu yindi manda, aho yanyuraga hose byabaga ari ibyishimo mu baturage, aha ngaha afite mikoro uko bamwenyura nawe niko amwenyura yambaye amarinete n'ishati y'umweru.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, aha yari yaje gushyigikira Nyakubahwa, Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ubwo yiyamamarizaga kuyobora Perezida muri iyi manda ayoboye. Ari kumwe n'abashinzwe kumurindira umutekano bazwi ku izina rya Sitiyu.

Imodoka ya tagisi iri mu muhanda itwawe n'umushoferi wambaye agapira k'umutuku ukuboko kwe yagusohoye mu idirishya, inkokora ifashe ku gice cyo hasi, ikiganza cyikaba gifashe ku gice cyo hejuru.

Ikamyo ifite ikizuru cy'umutuku iragaragaza amapine abiri yonyine, hirya yayo gato ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti bikoze ubusitani, ku buryo ubibonye uri umunyamahanga bishobora kugukurura ku buryo n'ubutaha wazakererwa urugendo.

Umuhanda utari uw'igitaka utari na kaburimbo ariko ukoze mu mapave uriho igitogotogo abenshi bita igicugutu, imbere yacyo hari umugore usa nuhetse agafuka hirya gato mu ruhande rw'iburyo hari moto iri kubisikana na cyo.

Umumotari ahetse umugore bombi bambaye kasike ebyiri z'ubururu buri kasike ifite ikirahuri mu maso bitewe n'imbeho ihari abapfutse kugirango ngo bataza kugira uwicwa nayo.

Umumotari utwaye umugenzi kuri moto ageze muri zebura korosingi agabanya umuvuduko. Umugenzi atwaye yambaye kasike y'umuhondo. Naho we akaba yambaye iy'umutuku. Moto ye ifite amapine abiri, ariko iry'inyuma rirashaje.

Bisi ebyiri nini ziparitse ziteganye, ku buryo akayira karimo ari gato cyane. Ni imfunganwa. Umugabo wambaye isengeri y'umutuku yanditseho mirongo itatu nari rimwe mu mugongo, arimo aragerageza kunyuramo, nta gihunga.

Parikingi y'abamotari irimo moto zirenze imwe niyo ushobora kuba wakwita parikingi, naho gusanga ahantu nta moto n'imwe iheruka kuhakandagira byo biragoye ko ushobora kuba wayita yo. Gusa hari n'abavuga ko kuba yakwitwa parikingi ari kimwe ariko ikaba ikwiye no kujyana na serivisi nziza abamotari batwara izo moto batanga.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ishushanyijeho telefone iri kugaragazaho akanyenyeri maganinani urwego hari imibare yanditswe impande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi ari mu ururimi rw'ikinyarwanda makeya na nimero za telefoni.

Umuhanda urimo moto ebyiri, moto imwe ni isanzwe itwara abagenzi, indi ni imenyerewe ku izina rya lifani. Nta gihe kinini aramara isanzwe itwaye agakarito gato. Mu gihe indi ifunze inyuma, ishobora kuba itwaye imizigo myinshi.

Ikamyo y'umutuku iri mu muhanda umushoferi uyitwaye nawe yambaye umutuku hejuru, icanya ibinyoteri ndetse hagati y'amapine y'imbere n'ay'inyuma harimo akaba k'umweru gatandukanya igice cy'inyuma n'ik'imbere.

Mu buzima bw'umuntu habamo gukenera kwambara imyambaro myinshi itandukanye ndetse n'inkweto aba bagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kacyi ndetse n'inkweto z'igitaka.

abashoferi bose batwara amakamyo by'umwihariko atwara ibiribwa bagirwa inama yo gutwara batasinze kubera ko bishobora kuba imwe mu mpanuka zikomeye cyane zishobora kubaho mu muhanda zitera impfu z'abantu baba abo batwaye ndetse n'imitwaro bafite ikaba yahangirikira.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ikamyo itwaye ibicuruzwa, hejuru hatwikirije ihema ry'ubururu rizirikishijwe imigozi, izwi ku izina ry'amakaburi, umushoferi uyitwaye yambaye agapira ka kake.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari uhetse umugenzi wambaye imyenda y'amabara n'imodoka nini, munsi y'umuhanda hari aho abanyamaguru bagendera n'uruzitiro rw'icyatsi ruteyemo ibiti byinshi ruguru y'umuhanda naho hari aho abanyamaguru bagendera.

Umunyonzi afite igare rifite imipine isa n'ishaje, umupine w'imbere urimo amabara y'imituku mu mareyo yaryo, amahembe aziritseho umupira, inyuma afite umufuka munini cyane w'ibirayi.

Igicumbi ku mupaka ukihagera uhabona icyapa kikubwira ngo ikaze m'u Rwanda. Hari kandi n'icyapa kikubwira ngo dore ugeze Igicumbi, hirya y'icyo cyapa hari ikamyo itwaye imizigo iri mu muhanda.

Mu Rwanda usanga ku mihanda myinshi by'umwihariko ibice by'umujyi hateyeho imikindo, ibi ni ibiti bifasha gutuma isura iba nziza ku buryo n'abakerarugendo iyo bahageze bumva bifuza kuzahagaruka.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ubwiza bwa Legasi hoteli kirangira abifuza serivisi zayo, imbere yacyo hari imikindo itatu umwe ukaba usa naho wihishe hagaragara amababi yawo, indi ibiri umwe urakuze undi uracyari muto.

Igipangu kirimo inzu irenze imwe buri muryango uriho urugi rwawo, imbere hari indabyo z'umuhondo, hirya gato hari ibiti bigandaye bishobora gutuma haza igicucu ku buryo abishwe n'izuba baryugamamo.

Umuhanda wa kaburimbo utarimo urujya n'uruza rw'abantu, ugaragaramo abantu babiri bonyine; umwe agenda n'amaguru, undi aragenda kuri moto. Ugenda kuri moto ahetse amacupa abiri ya gaze. Ugenda n'amaguru ari mu gihandade cyitegeye imikindo itatu.

Inyubako za leta ndetse n'iz'abikorera usanga inyinshi zifite aho imodoka ziparika ibingibi ni bimwe mu binagaragara ku nyubako yitwa igihozo hoteli aho usanga hariho parikingi y'imodoka ku buryo byagorana ko ujya kuhaparika ikindi kinyabiziga.

Abagabo babiri bahagaze mu byerekezo bitandukanye, bahagaze imbere y'ibipangu, aho buri umwe yitegereza icyerekezo ajyamo. Izo nyubako ni ndende. Nubwo atari ndende cyane, kuko indende muri yo igaragara nk'igeretse kabiri.

Urujya n'uruza rw'abantu ruri mu isoko ahari imitaka myinshi yanditseho ibyapa bya infinigisi hari kandi aho bacururiza amarineti y'amaso n'ay'umurimbo.

Ku nyubako ndende, imbere y'aho muri parikingi hari imodoka zihagaze, gusa hari imodoka zindi zigenda; moto si nyinshi, kuko ari imwe yonyine isa n'iri kujya mu gice kizamuka.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu mu mihanda ya Kigali nijoro usanga ari nko ku manywa bitewe n'amatara ahari ibinyamitende nk'amagare byo iyo bigeze saa kumi n'ebyiri bivanwa mu muhanda.

Moto iragenda mu muhanda yonyine, ni umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'undi w'ibitaka, ndetse n'akandi gato gakoreshejwe amapave, hirya hari ishyamba ririmo ibiti birebire ku buryo uri kuri moto adashobora kugira ikibazo cy'umwuka.

Iteme rinini cyane rihuza ibice munsi yaryo harimo umuhanda urimo imodoka, moto n'amagare, igare ririmo rehetse ikarito irimo ibintu bitandukanye.

Mu ihuriro ry'imihanda ahazwi nka rompuwe, harimo imirongo igi inyuranye ifasha abagenzi n'ibinyabiziga kubisikana. Iyimirongo baba bagenzi cyangwa se abashoferi, bagomba kuyubahiriza buri umwe akagenda mu buryo bwe.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, urimo imodoka igenda, iruhande rw'uwo muhanda hari jaride irimo ubwatsi butoshye, hirya gato hari ibiti by'umukindo, kuri uwo muhanda hari amatara yo ku muhanda amurika nijoro.

Umuhanda munini urimo kaburimbo ndetse n'ibyapa biyobora abagenzi n'abatwaye ibinyabiziga, kuri uyu muhanda harimo kamera izwi nka sofiya ifotora ibinyabiziga byarengeje umuvuduko.

Imihanda imwe n'imwe y'ibice by'umujyi usanga aho kugira ngo bashyiremo kaburimbo bahitamo gukoresha amapave. Aya akaba ari namwe akoreshwa mu kijyanye no kugira ngo ubusitani, amaparikingi y'inyubako zimwe na zimwe abe agaragara neza.

Igihe cy'akabwibwi kigaragara ko harimo n'imvura nyinshi, urumuri rufite imbaraga ariko bitewe n'igihu ntabwo gituma rugera kure, hasi yaho hari utundi dutara duto dushobora kumurikira abagenzi ndetse n'ibinyabiziga.